Ni hisotiroke ya banki igaragaza uburyo akawunti yakoreshejwe mu bihe bigiye bitandukanye, hifashishijwe hapusi ya telefone igendanwa.

Umuhungu wirabura wambaye ishati y'amoboko maremare na karuvati, akaba ahagararanye n'umugabo ufite uruhu rwera, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti, umuhungu wirabura bigasa nkaho ari kumwereka akoresheje mudasobwa, inyuma yabo hakaba ari inyubako.

Iduka ricururizwamo imyenda itandukanye harimo amakoti, amajaketi, imipira y'amaboko maremare n'amashati.

Igice cy'iduka ricururizwamo imyenda itandukanye: imipira, amashati ari kuri porotomanto, amagofero ateretsemo imbere.

Umugore wirabura akaba ari kuvugana n'undi mugore ufite uruhu rwera, uwo mugore akaba afite imyenda mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari n'undi mugabo ufite uruhu urwera akaba ari kureba icyo yagura.

Umukobwa ufite ibisuko wambaye umwenda ufite ibara ry'umuhondo, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga, aricyo telefone mu ntoki ze, iruhande rwe hakaba hari akabati kamanitseho imyenda.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ibinyabiziga, umwe yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, undi na we yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ryerutse, undi yambaye agapfukamunwa, ku ruhande hakaba hari ifoto ndetse bakaba ahahagaze imbere y'ibinyabiziga bifite ibara ry'umweru byabugenewe gutwara abagenzi benshi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi kikaba giparitse, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse hakabaho n'icyapa gifite ibara cy'ubururu, inyuma yicyo kinyabiziga hakaba hari ikindi kinyabiziga bisa.

Umugabo ufite uruhu rwera wambaye ishati irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ari kuvugana n'umuhungu wirabura, wambaye ishati y'amabara y'umutuku.

Umuhungu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umukara. Iruhande rwe hakaba hari undi mugabo uhahagaze wambaye umupira w'amaboko magafi ufite ibara ry'ivu. Ndetse akaba afite agasakame mu ntoki kari mu ibara ry'umutuku. Inyuma yabo hakaba haparitse ikinyabiziga gifite amabara y'umweru.

Imodoka ya toyota korora korosi hayiburidi, umwaka bibiri makumyabiri na kane igurishwa, igiciro ni miliyoni mirongo itatu na zirindwi.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba itwaye umugenzi, iruhande rw'umuhanda hakaba hari icyapa gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu ndetse hakaba hari n'ibyatsi, iruhande rw'icyo cyapa hakaba hari inyubako.

Imodoka y'ivatiri, ikaba iparitse. Ikaba ifite amabara y'umweru. Ku ruhande rw'iyo modoka, hari indi modoka na yo ihaparitse, ikaba ifite ibara ry'umutuku. Iruhande rw'iyo modoka hakaba hari ibiti byinshi cyane.

Imodoka ya Yundayi Takisoni, ya bibiri na cumi; ikaba igurishwa, igiciro ni miliyoni cumi n'ebyiri.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umukara akaba ahagararanye n'undi muntu wambaye ikoti. Imbere yabo hakaba hateretse ikinyabiziga gifite ibara ry'umukara ndetse kandi ikinyabiziga kikaba giparitse. inyuma hakaba hari igikuta.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, iruhande rwe hakaba haparitse ikinyabiziga gifite ibara ry'ivu, kuruhande rw'icyo kinyabiziga hakaba hari abagore babiri akaba ari abamansera, iruhande rwabo hakaba hari inyubako ndetse n'indi modoka.

Imodoka ya Toyota korosi hayiburidi bibiri makumyabiri na kane, ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu n'umunani n'igice.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba afatanye mu biganza n'umugabo wambaye ishati irimo imirongo y'umukara n'umweru, ku ruhande rwabo hakaba haparitse ikinyabiziga gifite amabara y'umukara. Inyuma yabo hakaba harimo inyubako iparitswemo n'izindi modoka.

Imodoka nshyashya yakozwe n'uruganda rwa toyota, ikaba itarajyaho ibirango nka purake, inyuma yayo hakaba hari amakontineri azipakira.

Umugabo wambaye ishati y'amoboko magufi akaba afite umupira ufite ibara ry'umutuku ku rutugu rwe imbere ye hakaba hari umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu akaba yambaye n'amataratara kuruhande rwe hakaba hari imashini yabugenewe ibara amafaranga.

Inoti y'ibihumbi bitanu nshyashya y'amanyarwanda, iteretse ku meza, iriho ibirango, igishushanyo cy'ingagi n'inyubako ya Komveshoni Senta.

Inoti y'amafaranga magana atanu, ishushanyijeho inka za kijyambere ndetse n'imibare yayo.

Imishandiko y'amafaranga menshi, ateretse ku meza, umuntu uri kugenda ayabara, akoresheje akuma k'ikoranabuhanga kabugenewe.

Umuntu ufite amafaranga imbere ye ku meza, amwe agiye kuyaterura mu biganza bye, hateretse irangamuntu na suri ya komputa.

Umugore wambaye ingofero ndetse wambaye n'igitenge, akaba afite akajerekani gafite ibara ry'umuhondo mu ntoki ze, ku rundi ruhande hakaba hari n'amatereremusi menshi, akaba ari mu nyubako ifite ibara ry'umuhondo.

Icyuma cyabugenewe bakoresha bakonjesha. Kikaba kirimo akajerekani, ijagi, agacupa k'amazi ndetse n'ibikombe. Iruhande rwayo hakaba hateretse amajerekani manini yagenewe gushyirwamo amazi.

Abahungu babiri barahagaze ndetse n'umukobwa. Umuhungu umwe yambaye umupira ufite ibara ry'umukara, abandi babiri bambaye umupira ufite ibara ry'umutuku ndetse n'ingofero zifite ibara ry'umukara, bakaba bafite amata mu ntoki. Nyuma yabo hakaba hari ibicuruzwa igihe bitandukanye, bakaba bahagaze mu nyubako.

Dayari icuruza ibikomoka ku mata, ishyushyu, ikivuguto, yawurute. Imbere hakaba hari kandagira ukararabe.

Umugore wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umutuku werurutse, akaba ahagaze mu nyubako ifite amakaro, ku ruhande rwe hakaba hari igikoresho cyabugenewe cyo kubikamo amata.

Umugore wambaye igitenge, akaba yicaye, iruhande rwe hakaba hari intebe ifite ibara ry'ubururu, ku rundi ruhande hakaba hari imashini yabugenewe gukonjesha ndetse n'akabati karimo ibyo kunywa bikaba bigiye bitandukanye.

Dayari icuruza ibikomoka ku mata, amaji, bikorwa n'uruganda Inyange, harimo abatanga iyo serivisi ndetse n'abaguzi.

Umugabo wambaye umupira w'amaguru magufi ufite ibara ry'icyatsi. Akaba afite akajerekani mu ntoki ze gafite ibara ry'umweru, iruhande rwe hakaba hahagaze umugabo wambaye amataratara ndetse inyuma akaba ari akabati karimo utujerekani.

Umugore akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga aricyo telefoni, akaba ari kwivugiraho, iruhande rwe hari umugabo uri gusuka amata ndetse akaba hari n'akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Umukobwa wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umukara, akaba afite akajerekani gafite ibara ry'umuhondo, karimo amata akaba ari gusuka amata murahure, inyuma ye akaba ari akabati ndetse akaba ari mu nzu ifite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi akaba ahahagaze, inyuma ye akaba ari akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, imbere ye hakaba n'akabati karimo ibyo kuribwa, kuhande kaba ari imashini yabugenewe yo gutunganya amata.

Umuntu uri kugaragaza inoti ebyiri mu ntoki ze, iya magana atanu, iy'igihumbi z'amahinde, ziriho ifoto ya Mahati Gandi.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, akaba yambaye agakoti k'umukara ndetse akaba afite n'igitenge mu ijosi, imbere ye hakaba hari umugore wambaye ikanzu yo mu gitenge akaba ari guseka, ku ruhande rwe hakaba hari akamashini kabugenewe mu kubara amafaranga.

Umuntu ufite amafaranga y'ibihugu bitandukanye, amwe ateretse ku meza andi mu biganza bye, ari gukora ivunjisha rikorewe mu ntoki.

Inote zitandukanye z'amashiriningi ya Tanzaniya, bagaragaje igice kimwe cyanditse mu giswahire, ikindi mu cyongereza.

Inyubako ifite igikuta gifite ibara ry'umweru, kuri icyo gikuta hakaba hariho amagambo, imibare ndetse n'ikimenyetso ndangamerekezo, ku ruhande rw'iyo nyubako, hakaba hari ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kugenda.

Inyubako ikoreramo Foregisi biro ivunja amafaranga atandukanye, hari umuntu uri kwandika agaragaza uko bayagurisha cyangwa bayagura.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse kikaba cyandikishijwe amagambo afite ibara ry'umweru, inyubako ikaba ifite amayesikariye, ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba ari igiti.

Umwanya bateretsemo ibikoresho byo muri salo: intebe, ameza, akabati, bikozwe mu mbaho z'ibiti.

Icyumba giteguyemo intebe zigiye zitandukanye zireba mu byerekezo bitari bimwe, harimo ameza n'imisego begamaho bicaye.

Ni inyubako igaragaza hoteri ifite pisine ku ruhande, hari intebe zo kwicaraho mu gihe waba ugiye muri pisine cyangwa se uvuyemo, hagaragara igiti cyiza cyane kigaragaza ubwiza bw'iyo hoteri.

Icyumba cya hoteri gitegurirwamo amafunguro atandukanye, ahabwa abakiriye bagana iyo hoteri.

Inyubako ya hoteri nziza cyane ifite pisine yubatse, uruziga, ibiti impande yayo bizana umuyaga.

Sare iteguye neza, irimo intebe iburyo n'ibumoso, hagati harimo aho abayoboye inama bicara, ndetse na tapi baba bakandagiyeho.

Inyubako nini cyane ya hoteri ifite jaride harimo indabo zitandukanye n'ibiti, pisine, hari udutanda bicaraho iruhande rwayo.

Inyubako ya hoteri nini kandi nziza, ikikijwe n'indabo zitandukanye, iruhande rwaho hari pisine.

Inyubako ndende, iri kwaka amatara, imbere n'inyuma, iruhande rwayo hari pisine ndetse n'iya jaride n'imikindo igiye itandukanye.

Igice cy'inyubako gikoreramo kampani y'ubwishingizi, hari ibirango biyiranga, umuntu usohokamo imbere agana hanze muri parikingi.

Umugabo wicaye mu ntebe ifite ibara ry'umuhondo werurutse, akaba ari gukoresha telefoni ye, iruhande rwe hakaba ari intebe, hakaba ndetse hari n'agacupa k'amazi ndetse hakaba n'umuryango uriho icyapa.

Abagabo batatu bahagaze mu nyubako, irimo ibyapa bifite amabara agiye atandukanye, umwe muri bo akaba yambaye ishati y'umweru, undi akaba yambaye ikoti ndetse n'undi akaba yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umutuku.

Inyubako ndende ikaba ifite ibyapa biri mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu. Imbere y'iyo nyubako hakaba haparitse ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku. Ku ruhande hakaba hari icyapa ndetse n'indabyo.

Inyubako ndende ifite icyapa kiri mabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere yayo hakaba haparitse ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hari n'ibiti, ku ruhande rw'iyo nzu akaba ari umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari kugendwamo n'ibinyabiziga.

Umugabo ufite uruhu rwera akaba yambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu ryijimye. Akaba ahagararanye n'umugabo wirabura. Akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umweru. Inyuma yabo hakaba hari icyapa. Imbere yabo hakaba hari imeza iriho agacupa k'amazi.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'indi modoka ifite ibara ry'ivu zikaba ziparitse imbere y'inyubako. Iyo nyubako ikaba iri mu ma bara y'umweru, hakaba harimo ibyapa bifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Ipikipiki ikaba iparitse imbere y'inyubako ifite ibara ry'ubururu, ikaba ifite icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, iruhande hakaba hari amavaze abiri arimo indabyo ndetse imbere muri iyo nyubako hakaba harimo intebe ndetse n'imeza.

Umugabo wambaye amataratara akaba afite igipapuro mu ntoki imbere ye hakaba hateretse mudasobwa kandi akaba yicaye imbere ye hakaba hari abantu babiri bahagaze baje kwaka serivisi harimo umugabo, ndetse n'umugore.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'amako maremare, ifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba afite ikaramu mu ntoki, akaba ari kwandika, imbere ye hakaba hari ikirahure, inyuma y'icyo kirahure hakaba hari umugore uhahagaze ufite amafaranga mu ntoki.

Abanyeshuri barahagaze, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba harimo bambaye imyenda y'umweru n'imyenda y'ubururu, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye ishati, amataratara akaba ahagaze ari kubareba, hakaba hari n'undi uri ku meza imbere ye hateretse mudasobwa.

Umugore ufite imisatsi miremire akaba yambaye ishati y'amaboko maremare afite ibare ry'umweru, imbere ye hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu bwijimye, imbere yabo hakaba hari ikinyabiziga, inyuma hakaba hari ibiti.

Fomu ya ayemu banke, igaragaza uburyo wuzuza imyirondoro yawe, mugihe wagiye kwaka inguzanyo yawe.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru, akaba yicaye imbere ye hakaba hateretse imeza iriho mudasobwa, ibipapuro ndetse n'icupa ry'amazi ndetse muri iyo nyubako arimo haka harimo abantu benshi na bo bambaye udupfukamunwa bakaba baje kwaka serivisi.

Isoko ricururizwamo imyambaro yihariye y'abadamu n'abakobwa, rigizwe n'ibitenge by'amabara atandukanye.

Umugore wicaye akaba ari gucuruza ibicuruzwa nka kokombure ndetse n'urusenda, ku ruhande rwe hakaba hari abagore babiri bahagaze bambaye ibitenge ndetse bakinyeye n'ibitambaro mu mutwe, ku rundi ruhande hakaba hari abantu benshi bahagaje baje kugurisha ndetse no kugura.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku akaba afite n'ibisuko, akaba afite igikoresho cyabugenewe bakoresha batanga fagitire. Imbere ye hakaba hari umukobwa wambaye amataratara, ku ruhande rwe hakaba hari undi muhungu wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba n'imbuto.

Isoko ririmo rigurishirizwamo imbuto zitandukanye harimo umukobwa uri gucuruza n'umusore uri kugura.

umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru ndetse n'inkweto, imbere ye hakaba hari abantu bafite uruhu rwera, bakaba baje kugura imyenda harimo ibitenge ndetse n'amakanzu. Inyuma yabo hakaba hahahagaze undi muntu.

Isoko ricururizwamo imboga, imbuto bitandukanye rifasha abamama, abakobwa kwihangira imirimo.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'iroza, akaba aje guhaha imbuto, imbere ye hakaba hari umugore uri guseka, akaba ariwe ucuruza imbuto, ku ruhande rwabo hakaba hari imbuto ibiti ndetse n'ikinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba hari kugendwamo n'ibinyabiziga, aribyo ipikipiki ku ruhande rw'umuhanda hakaba haparitse imodoka nyinshi, ndetse hakaba ari kugenda n'abanyamaguru ndetse n'izindi moto ziparitse ku muhanda. Hakaba hari n'inyubako ndetse n'ibiti.

Umugore wambaye igitambaro gifite ibara ry'umutuku mu mutwe akaba yambaye n'amatatara, akaba yunamye, akaba afashe umufuka urimo ibirayi. Iruhande rwe hakaba hari undi mugore na we wicaye ndetse n'undi muhungu uje gufata ibirayi.

Umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze aricyo akoresha bishyura fagitire, akaba afite agafunyika ari kugahereza umuhungu wambaye ishati y'umukara, imbere yabo hakaba hari abantu bari kugurisha ndetse n'abandi bari kugura.

Umugore wirabura wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru ahagaze mu isoko, ku ruhande rwe hari imbuto harimo nka imineke, pome ndetse n'imyembe ndetse n'indi bigiye bitandukanye. Inyuma ye hakaba hari abantu baje kugura ndetse n'abandi bari gucuruza imbuto ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umuntu utwaye ikinyabiziga gifite ibara ry'ivu, kikaba giparitse imbere y'inyubako ifite ibara ry'umuhondo. Imbere y'icyo kinyabiziga, hakaba hari gucaho umwana, akaba ari kwirukanka.

Inyubako y'isoko ikoreramo ibintu bitandukanye, igice kimwe arimantasiyo ikindi kigurishirizwamo porodagiti z'uruganda rwa Mukamira.

Umuntu wicaye mu kazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ku ruhande hakaba hari umwana uri kugenda ndetse n'abandi bantu bahagaze.

Abantu batatu barahagaze, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ikoranabuhanga, bakaba bambaye imyenda yo mumabara y'umuhondo, ku ruhande hakaba haparitse ibinyabiziga.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, akaba ahagaze asa nkaho ari kuvugana n'umuhungu wambaye amataratara ndetse n'umupira ufite ibara ry'umuhondo, akaba ari uw'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho. Imbere yabo hakaba hateretse mudasobwa, iruhande rwe hakaba harri n'undi muhungu wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo akaba ari iy'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, mo imbere muri iyo nzu hakaba hahagazemo abantu bari gutanga serivise, hanze y'iyo nyubako hakaba hari abantu baje kureba ndetse no kwaka serivise.

Umugabo wambaye ishati yo mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo, akaba afite uruhu rwera akaba ahagaze mu nyubako, iruhande rwe hakaba hari abahungu babiri bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ndetse hakaba undi mugabo urikwereka ibintu uko bikorwa.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa ebyiri. Inyuma ya mudasobwa hakaba hari umugore n'umugabo, bakaba baje kwaka serivisi.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze aricyo telefoni ndetse akaba afite n'ikarita, imbere ye hakaba hateretse ibyo kuribwa harimo inyanya.

Abagore 3 barahagaze barafatanye babiri muri bo bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo undi yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu akaba ari uw'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho inyuma hakaba ari imitaka ifite ibara ry'ubururu.

Akazu gafite ibara ry'umutuku kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo ibyapa bigiye bitandukanye, ku ruhande rw'ako kazu hakaba haparitse ipikipiki ndetse ku rundi ruhande hakaba hari icupa ry'amazi.

Akazu ka MTN mobile money kicayemo umucuruzi ukora izo serivisi, uri kuganira n'umukiriya wamugannye ahagaze hanze yako.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo akaba ari iy'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho akaba ahagaze, iruhande rwe hakaba hari igisanduku kinini gifite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi urimo uturongo ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze ku kazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, iruhande rw'ako kazu hakaba hari ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, akaba afashe umugenzi we mu kiganza, nawe wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo. Akaba ari ab'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho. Inyuma yabo hakaba hari umutaka, ndetse n'abantu bagiye batandukanye.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru akaba ahetse n'igikapu cy'umukara, akaba ahagaze ku kazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivise z'itumanaho, akaba aje kwaka serivisi.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, mo imbere muri ako kazu hakaba harimo umuntu uri gutanga serivisi ndetse n'undi muntu uje kuyaka, iruhande rw'ako kazi hakaba hari igiti ndetse n'abandi bantu.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umukara akaba ahagaze ku kazu gafite ibara ry'umuhondo, akaba ari ak'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, ku ruhande hakaba hari abandi bagabo babiri bahagaze umwe yambaye ishati y'umweru n'undi wamaye umupira ufite ibara ry'ivu, ku ruhande hakaba hari ikoti ndetse n'indi nyubako.

Akazu ka emutiyene gacururizwamo mobiromani, kubikuza amafaranga no kohereza, akaba ukoreramo ari imbere abakiriya bagakikije inyuma yako.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umuhondo, akaba akorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'itumanaho, akaba ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'umukara na ufite igare mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini gifite ibara ry'umuhondo kirimo n'amagambo y'umukara.

Umumotari akaba yambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi, imbere hakaba ari ipikipiki itwaye agasanduku gafite ibara ry'umutuku, muri ako gasanduku hakaba harimo agapfunyika gafite ibara ry'umweru, iruhande rwabo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, ibiti ndetse muri uwo muhanda hakaba hari kugendamo imodoka.

Ipikipiki ifite ibara ry'umutuku ikaba iparitse hirya yo ku muhanda. Ikaba itwaye agasanduku gafite ibara ry'icyatsi kariho amagambo y'umweru. Iruhande rw'iyo pikipiki hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari igikuta ndetse hakaba hari n'icyapa.

Abamotari bane bakaba bicaye ku mapikipiki yabo. Amapikipiki akaba ahetse udusanduku dufite amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru. Bakaba bahagaze mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari ibiti.

Amapikipiki abiri araparitse, imwe ihetse agasanduku gafite ibara ry'umuhondo ndetse na oranje, iyindi pikipiki yo ihetse agasanduku gafite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo.

Umumotari wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, akaba ahahagaze, iruhande rwe hakaba hari ipikipiki ihetse agasanduku gafite ibara rya oranje, iruhande rwako gasanduku, hakaba hahagaze umuhungu wambaye agapfukamunwa, hakaba hari umuhanda w'igitaka.

Inyubako y'imyidagaduro, ifite jaride iteyemo ibyatsi, igaragazwa ko igurishwa. Ubundi busobanuro wabariza kuri wawawa akadomo vibi hawuze doti rwa.

Ni inyubako barimo baragaragaza ko igurishwa, amafaranga irimo iragurishwa, icyerekezo iherereyemo, umujyi ndetse n'igihugu iherereyemo igurishwa.

Inzu ndende ya etaje, aparitoma bagaragaza amafaranga ikodeshwa mu kwezi, amadolari magana atanu mirongo itanu iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, iherereye i Kigali mu Rwanda, hakaba hagaragara baliko ndetse n'umuryango wo kuri saro.

Inzu y'agacurama isize amarangi, fondasiyo yubatse amabuye, ikaba iherereye Kabeza ikodeshwa.

Isoko ryo gucururizamo imyenda, hakaba harimo umugore ufite igikapu wambaye imyenda y'umuhondo, akaba ari kureba imyeda ndetse iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru, nawe akaba yaje kureba imyenda ndetse n'abandi bantu bose bakaba baje kureba imyenda.

Inyubako yabugenewe yo gucururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukany,e harimo ibyo kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, muri iyo nyubako hakaba harimo umuntu uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba harimo n'undi muntu uhagaze uri gutanga serivisi.

Ibice bibiri by'iduka, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, biteguye ku murongo, abakiriya bari gushopinga bashyira mu bikoresho byabugenewe.

Igice cy'isoko kigurishirizwamo amatapi manini afite amabara menshi atandukanye akunda gutegurwa muri salo.

Umuntu wambaye ishati y'umutuku, akaba yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru. Imbere ye hakaba hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imboga, inyanya, kokombure, ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Abagore bane bicaye bakaba bafite udukarita mu ntoki dufite ibara ry'umuhondo. Bose bakaba bateze ibitambaro mu mutwe kandi baka bambaye n'ibitenge, babiri muri bo bakaba bafite utwuna dutoya.

Umugore wambaye amataratara, akaba afatanya mu kiganza n'umugabo wirabura wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru irimo n'uturongo tw'umukara. Inyuma yabo hakaba hari uduseke ndetse hakaba hariho n'icyapa gifite amagambo y'umukara.

Umugabo wambaye ingofero, wambaye ishati ndetse wambaye n'umukenyero ufite ibara ry'umweru, akaba afatanya mu biganza n'umugore wambaye nawe umukenyero w'umweru ndetse n'agasengeri gafite ibara ry'ubururu bakaba bari guseka.

Abaturage bahurijwe ahantu hamwe mu kibuga, barimo barasobanurirwa ibijyanye n'ubwizigamire muri gahunda ya leta ya Ejo heza.

Igice cya supamaketi kirimo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibyo kunywa, amaji akorwa mu mbuto, amata y'inka ava mu nyange n'amazi.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye, bitondetse ku murongo mu buryo busobanutse kandi bufite isuku ihagije.

Supamaketi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abantu barimo barashopinga, bafite akagare kabafasha mu gutwara ibicuruzwa baguze.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bitondetse ku murongo umwe, hasi yubatsemo amakaro y'uburyo bubiri budasa.

Inyubako ndende ifite icyapa kiri mu mabara y'umutuku, hakaba hari icyapa kigaragaza ko guparika bitemewe ndetse hakaba hari n'intebe n'imeza bakiriraho abantu, ku rundi ruhande hakaba hari abantu bahagaze.

Imbere muri supamaketi harimo ibicuruzwa byinshi cyane, abakiriya bari kugura, abandi bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Umugore ufite ibisuko wambaye ikoti, akaba ahagaze muri superi marishe, inyuma ye hakaba hari akabati karimo ibyo kunywebwa, ku rundi ruhande hakaba hari imashini yabugenewe yo gukonjesha, ndetse no ku rundi ruhande hakaba hari akabati karimo ibicuruzwa bijyiye bitandukanye.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye, ibiribwa n'ibindi, habarizwamo abatanga serivisi ndetse n'abakiriya baje babagana.